Imbaga y'abantu benshi bicaye mu kibuga, bambaye udukote dutandukanye tw'amabara y'umuhondo ndetse hari n'abambaye utw'amabara y'ubururu, bakaba bicaye bacucitse havanzemo abagabo n'abagore.

Inzu ifite irangi ry'umweru irimo intebe n'ameza bikozwe mu biti akaba ari inzu iberamo urukiko. Hakaba hicayemo abagabo ndetse n'abagore harimo umugabo wambaye imyenda y'iroza bigaragara ko ari imfungwa.

Imodoka ndende cyane ifite ibara ry'icyatsi yo mu bwoko bw'igikamyo, ikaba ari imodoka ifite ububasha bwo kwikorera imizigo myinshi kandi iremereye cyane, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga.

Imodoka ifite amabara y'umweru, umukara n'ubururu, ikaba ari imodoka ikora akazi ko gutwara abantu rusange, ikaba iri muri gare yo mu mujyi, ikaba yagiye gufata abagenzi ngo ibageze aho bashaka kugera.

Imodoka ikoreshwa mu gutwara imizigo iremereye cyane yo mu bwoko bw'igikamyo ,ikaba ifite amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, ifite umwanya inyuma wo gushyiramo imizigo myinshi cyane kandi iremereye. Ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara iri kubisikana n'indi modoka ntoya.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, harimo inyuguti ya "p" iciyemo umurongo w'umutuku, ibi bikaba bisobanuye y'uko aha ngaha hatemerewe kuhahagarika ikinyabiziga, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga abonye iki cyapa aba asabwa kudahagarara aho kiri kugira ngo atangiza amategeko y'umuhanda.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru harimo ikimenyetso cyerekana ko hari undi muhanda uva mu kuboko kw'iburyo winjira mu muhanda nyamukuru ibingibi bikamenyesha umuyobozi w'imodoka ko agomba kugenda gake imodoka iva mu rundi ruhande bidakora impanuka.

Ikibuga kinini cyane kivuguruwe vuba mu Rwanda, akaba ari ikibuga giherereye i Remera, bacyita amahoro. Akaba ari ikibuga gikinirwamo imikino itandukanye cyane cyane umupira w'amaguru

Umuhanda w'umukara wagenewe ibinyabiziga, hakaba hacamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, imodoka zisanzwe z'abantu bwite ndetse n'imodoka rusange zitwara abanyamaguru, hagacamo n'ibikamyo byikoreye imizigo iremereye.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru yereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira ndetse ikereka n'abayobozi b'ibinyabiziga ko abantu bahambukira, hirya yaho hakaba hari icyapa cyanditseho ishuri cyereka umuyobozi w'imodoka ko aho ageze hari ishuri hafi, agomba gutwara gakeya atagonga abanyeshuri.